Umugabo n'umugore bari kureba ibintu kuri mashini ya mudasobwa, bakaba bari ahantu hagurirwa ibicuruzwa bitandukanye by'ubwoko bwinshi, bakaba rero barimo kwitegereza ibijyanye n'ibicuruzwa birimo aho ngaho binyuze kuri iyo nsakazamashusho nini.

Ahantu hanini hakorerwa ubucuruzi bwo gutera amarange imodoka, bakaba batera amarangi atandukanye, rero imodoka ikagenda isa neza. Hakaba hari imodoka yatewe irange, hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'umukara umupira w'umukara, uhagararanye n'undi mugabo wambaye ibintu by'umweru.

Abagore babiri n'umugabo umwe bahagaze imbere y'amadirishya y'ibirahure, aho ushobora kuza kubikuza amafaranga atandukanye hanyuma bakayaguhereza; bakayakubarira bakaguhereza.

Ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye bikomoka ku mata, bigiye biri mu moko atandukanye, hakaba ari ahantu rero ameza yaho ariho indobo irimo amandazi, hakaba kandi hari umuryango usize irangi ry'uburu, aho hantu hakaba hagaragara ko bacuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye bikomoka ku mata.

Ifishi y'icyemezo gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, akaba ari icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, kikaba rero ari ifishi, iba igaragaza ko nta musoro na muke ufitiye igihugu cyu Rwanda, kikaba gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Inyemezabwishyu itanga itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, akaba ari ikigo gishinzwa n'amahoro mu Rwanda, kikaba gitanga inyemezabwishyu bitewe n'umusoro wishyuye cyangwa amahoro.

Ibiganza bibiri biri guherekanye amafaranga y'inote yo mu bwoko atandukanye, ikiganza kikaba kiri gutanga inote y'ijana n'iya mirongo itanu y'amayero ikindi kiganza kikaba kirimo inote y'ijana y'amadolari y'Abanyamerika.

Isoko ricuruzwamo imyenda akaba imyenda myinshi itandukanye iy'abagore, iy'abagabo iy'abana akaba ari imyenda imanitse ku biti biri aho ngaho mu isoko, akaba ari isoko risakaye kandi nini akaba rero ari igice gicururizwamo imyenda.

Isoko rinini ryubatswe mu buryo bugezweho mu buryo bw'amagorofa, rikaba ari isoko rero imbere hagaragara hubakishijwe ibirahure, ubwo hakaba harimo imiryango myinshi myinshi itandukanye, aho abantu bashobora kuza gucururiza, abandi bakaza kugura ibicuruzwa bitandukanye, hano hasi hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, uriho ibirango bifasha abanyamaguru n'amamodoka gukurikiza amategeko y'umuhanda.

Akapa gatoya kari hejuru y'ameza akaba ari akapa kari mu mabara y'umuhondo, ayo magambo yandikishijwe umukara, hakaba handitseho akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego, akaba ari uburyo ushobora kwishyura ukoresheje itumanaho rya MTN.

Inyubako ntoya y'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cyitwa MTN, hakaba hari ibirango by'umuhondo byanditsemo MTN, hakaba harimo abakozi bayo bashinzwe guhereza serivisi abaturage bafite ibibazo bijyanye n'itumanaho rya MTN.

Inzu nziza ifite amarangi y'umweru n'umuhondo, akaba ari ubusitani bwiza butandukanye burimo ibiti n'indabyo zitandukanye, ikaba igizwe n'ibyumba bitatu byo kuraramo, ubwogero butatu. ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane y'amanyarwanda ku kwezi, ikaba iherereye i Kigali i Kanombe.